Abana bato b'incuke aho bahurijwe hamwe, bari gufata ifunguro ry'igikoma, ni gahunda ya Leta yo gufasha abana gukura neza ndetse no kurwanya igwingira cyane cyane ku bana bari munsi y'imyaka itanu.

Abana batoya bateraniye hamwe aho bari guhabwa uburezi bwiza, ni byiza ko umubyeyi ajyana umwana we kuko abona umwanya wo guhura n'abandi bakaganira bityo agakura neza atari mu bwigunge.

Abana batoya bo munsi y'imyaka itanu aho bahuriye hamwe mu kizwi nk'irerero kugira ngo bahabwe uburezi bw'ibanze bubafasha mu mikurire yabo, ndetse n'indyo yuzuye ituma batagwingira.

Mubyeyi shishikariza umwana wawe kumenya gusoma akiri muto kuko bimufasha mu mikurire ye cyane cyane mu buryo bwo kumenya ibintu byinshi. Ni byiza guhuriza abana hamwe bagasomerwa inkuru ndetse bakanisomera inkuru.

Ikigo cy'uburezi gitangirwaho amasomo agiye atandukanye, umwarimu ndetse n'abana bari kwiga, aho bari gufasha gusobanukirwa bimwe mu bimera gakondo.

Abana bato bari guhabwa uburezi ndetse n'uburere, aho bafashwa mu kwidagadura ndetse no gukina imikino igiye itandukanye, kandi bakanahabwa ifunguro ryuzuye kugira ngo bagume gukura neza.

Abana batoya bagiye ku ishuri kwiga, kugira ngo bahabwe uburezi bityo bizabafashe kugera ku cyo bifuza mu hazaza habo, bigaragara ko biga bicaye neza.

Umubyeyi uri gukina n'abana, aho ari kubafasha kwishima ndetse no kubereka urukundo. Ni byiza ko ababyeyi baganira ndetse bakanakina n'abana kuko bibafasha mu mikurire.

Abana batoya aho bari gutozwa umuco wo gukorera hamwe ndetse no gukundana n'abarezi babayobora kuko bifasha gusabana n'abandi bityo bagakora neza cyane.

Abana bato bahuriye hamwe, aho bari guhabwa uburezi n'uburere n'abarimu babo babafasha mu kubasomera inkuru zigiye zitandukanye, bityo bakishima bakanakura neza.

Ababyeyi bari gufasha abana mu kwidagadura ndetse no gukina imikino imwe n'imwe itandukanye, bityo bikabaha uburezi ndetse n'uburere bufite ireme, bakabasha gukura neza kandi bishimye.

Abana batoya mu marerero, aho baba bahurijwe, kugira ngo bige ibintu bigiye bitandukanye, kandi banahabwe uburere bukwiye umwana w'Umunyarwanda, icyiyongereyeho banahabwa amafunguro ndetse n'indyo yuzuye.

Ikigo cy'amashuri gitangirwamo uburezi ku bana b'u Rwanda, bigaragara ko hari n'ibendera ry'Igihugu. Ni byiza gusigasira ibigo by'amashuri, kuko biha uburezi ku bana bacu.

Udukoresho twabugenewe twifashishwa mu burezi cyane cyane mu burezi bw'ibanze bw'umwana aho baba bamwigisha kubara ndetse no kumenya imibare ibaho.

Abanyeshuri bari mu kiruhuko aho bari gukina imikino itandukanye, ibafasha ku ruhura mu mutwe kugira ngo babashe kwiga neza kandi banagirane umwanya wo gusabana, bamenyane, byongere urukundo.

Ikigo cy'amashuri ahatangirwa uburezi n'ubumenyi ku bana b'u Rwanda kugira ngo babashe kubamo abo bifuza kuba, bityo rero ni byiza gukangurira abana bacu kwiga neza ndetse no kudasiba ishuri.

Igishushanyo cyiza kigaragaza ubuhanga bw'umunyabugeni wagikoze kuko kigaragaza ishusho ya Adamu na Eva bari mu busitani bwa Eden, Adamu na Eva bari kurya ku giti Imana yababujije.

Ikigo cy'amashuri gitangirwaho uburezi ku bana b'u Rwanda, ni byiza kubungabunga ibigo by'amashuri kuko ni ho dukura abana bafite ubumenyi bwo gukemura ibibazo duhura na byo umunsi ku wundi.

Ikigo cy'amashuri gitangirwaho uburezi bw'ibanze ku bana bakiri bato, ni byiza ko dushishikariza ababyeyi kujyana abana babo ku mashuri kuko ni bo Rwanda rw'ejo.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri ya kaki ndetse na juru, aho bari ku murongo basabana baririmba uturirimbo twiza tubafasha kongera urukundo hagati yabo.

Isomero ribikwamo ibitabo bigiye bitandukanye kugira ngo abanyeshuri babashe kubibona bityo bimakaze umuco wo gusoma kandi bibongerere ubumenyi bazavemo abo bifuza kuba.

Abana ku kigo cy'amashuri aho bari gufata ifunguro rya saa sita. Ni byiza ko abana babona ifunguro rya saa sita ku bigo bigaho kuko bituma babasha kwiga neza, kuko baba batakoze ingendo bajya gushaka ibyo kurya.

Abanyeshuri bari mu mikino y'imyidagaduro aho bari ku byuma bibaha umunyenga byabugenewe, ni byiza ko dushishikariza abana bacu kwitonda kuko bashobora kugirira impanuka kuri ibi byuma.

Ikigo k'ishuri gitangirwaho ubumenyi n'uburere ku bana b'u Rwanda, abana bakaba bafite impuzankano y'ubururu ndetse na kaki, ni byiza ko abana biga neza kugira ngo bazavemo abo bifuza.

Abanyeshuri bari gukina imikino imwe n'imwe itandukanye ibafasha kuruhuka mu gihe bahawe umwanya wo kwidagadura, kugira ngo amasomo abashe gukomeza bityo bige neza.

Ibikoresho by'amashanyarazi, byifashishwa mu kugeza umuriro muri za mudasobwa cyangwa amatelefoni yifashishwa mu burezi bityo abana bakabasha kugira ubumenyi ku ikoranabuhanga.

Ibikoresho byifashishwa mu gutanga uburezi cyane cyane mu kwigisha isomo ry'imibare, harimo ibikoresho byifashishwa mu gupima inguni, ibyifashishwa mu kubara isaha ndetse n'ibindi.

Mu ishuri ahatangirwa ubumenyi bugiye butandukanye ku bana batoya bakiga nko mu wa mbere, aho bigishwa amazina y'imbuto agiye atandukanye mu mabara atandukanye ndetse n'uburyo bwo kubara.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishuri, aho bari guterura ibiryo bajya kubishyira aho barira kugira ngo babashe gufata ifunguro rya saa sita bityo amasomo akomeze.

Igikoni gitekerwamo ibyo kurya cyane cyane iby'abanyeshuri cyangwa iby'abantu benshi bateraniye hamwe ndetse n'ibizamura imyotsi kugira ngo bitanduza ibiryo byo kurya.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishati isa ubururu ndetse n'ipantaro cyangwa ijipo ya kake, abanyeshuri bahetse ibikapu byabo bigaragara ko bari kuva cyangwa bari kujya ku ishuri.

Ishuri ririmo ibikoresho by'ibanze bikenewe byifashishwa mu gutanga uburezi ku mwana, harimo nk'intebe zo kwicaramo ndetse n'ibindi; ni byiza ko amashuri agira ibikoresho kugira ngo uburezi bugume gutangwa neza.

Ikibuga gikinirwaho umukino uzwi ku izina rya basikete, aho abakinnyi bakina bahererekanya umupira, bakabasha kuwunyuza mu kantu kameze nk'igitebo, igitego kikaba kirabonetse.

Abana bari ku kigo cy'ishuri aho bari gukina imikino itandukanye mu mpuzankano yabo y'ishuri y'ishati y'ubururu ndetse n'ikabutura cyangwa ijipo byaki birizihiwe bari kwidagadura.

Icyapa kigaragaza bimwe mu bimenyetso byifashishwa n'abantu bafite ubumuga bwo kutumva cyangwa kuvuga, ni ibimenyetso bigiye bitandukanye ibi ngibi bikaba bigaragaza imwe mu mibare.

Imifuniko ipfundikira amacupa abamo inzoga cyangwa ibinyobwa bidasembuye nka za fanta, imifuniko ishobora kwifashishwa n'abana mu gukora imikino imwe n'imwe gusa ni byiza ko ishyirwa ahabugenewe kugira ngo itangiza ikirere.

Abanyeshuri bateraniye hamwe aho bari gusubiza ibibazo bagiye babazwa ku mpapuro kugira ngo babashe gusuzuma ubumenyi bwabo ndetse n'uburyo bumva ibyo bahabwa mu ishuri.

Abanyeshuri bari guhabwa ibiganiro bitandukanye n'inzego z'ubuyobozi, zirimo ababayobora ku buryo bwiza bwo kwitwararika mu mico no mu myifatire kugira ngo bibateze imbere.

Umwarimu wambaye umwenda w'akazi wabugenewe uzwi ku izina ry'itaburiya, aho ari kuganiriza abanyeshuri ku ngingo zitandukanye, bimwe mu bibafasha kongera ubumenyi n'uburere bwabo.

Abanyeshuri bo mu kigo cy'ishuri bateraniye hamwe, aho bari kuganirizwa n'ababahagarariye cyangwa abayobozi babo ku buryo bwiza bwo kwitwara no kwitwararika igihe bari ku ishuri.

Abanyeshuri bari gukora ibizamini bisoza ibyiciro by'amashuri yabo, aho bari kubifashwamo n'abayobozi babahereza ndetse n'abanyamakuru bari gutara amakuru b'ikigo cya radiyo Tv10.

Umwarimu wicaye mu isomero ahatangirwa ubufasha mu gutoza abana kwimakaza umuco wo gusoma ibitabo cyane ko ubwenge bwinshi buva mubitabo, ni byiza gushishikariza abana gusoma.

Umuyobozi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, aho ari gutanga ikiganiro ku rubyiruko ku buryo bwiza bwo kwirinda icyaha n'igisa na cyo, bityo ubuzima bwabo bukarushaho kuba bwiza.

Abanyeshuri bari guhabwa ubufasha mu gusobanurirwa uburyo bwiza bw'imikoreshereze ya za mudasobwa kugira ngo bibongerere ubumenyi ku buryo bwo gukoresha ibi bikoresho bya gihanga byifashishwa mu buzima bwa buri munsi.

Ibyumba byo kuraramo bishobora kurarwamo n'abantu b'ingeri zitandukanye, abanyeshuri, abakozi cyangwa abandi bari mu bikorwa bigiye bitandukanye, bikaba bitunganyije kandi binashashe neza.

Ikigo cy'ishuri ryisumbuye cya Sumba, ahatangirwa uburezi ndetse n'uburere ku bana b'u Rwanda bityo tukabasha kurema u Rwanda twifuza, binyuze mu gutanga indangagaciro ndetse no kwibutsa kirazira.

Isomero ahakusanyirijwe ibitabo bigiye bitandukanye, yaba ibivuga ku mateka, ibitabo bya siyansi ndetse n'imibanire n'abandi, ni byiza kwimakaza umuco wo gusoma kuko byongerera ubushobozi ubwonko bwacu.

Ikigo cy'amashuri gitangirwamo uburezi ku bana b'u Rwanda kuva ku burezi bw'ibanze kugera ku cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, ikigo kikaba giherereye mu Karere ka Nyamagabe, mu ntara y'Amajyepfo, ahazwi nko ku Gikongoro.

Abanyeshuri bahuriye hamwe bari kumwe n'abayobozi ndetse n'abarezi babo, kugira ngo bafate ifoto y'urwibutso nyuma y'ibikorwa bitandukanye bari bamaze gukora.

Abanyeshuri bari kwakira ibiganiro bitandukanye ku buryo bwo kongera ubumenyi bwabo ndetse no kwiga neza batuje kugira ngo babashe gutsinda neza ibyo bakora mu buzima bwabo.

Imodoka z'ibigo bigiye bitandukanye zitwara abagenzi bajya mu bice bitandukanye by'igihugu, aho zahurijwe hamwe kugira ngo byorohere abanyeshuri gusubira iwabo cyangwa kujya ku ishuri.

Icyumba gitangirwamo uburezi kikanigishirizwamo amasomo agiye atandukanye ku bana cyangwa abanyeshuri bo mu ngeri zitandukanye bityo bakabafasha kuvamo abo bifuza kuba.

Umunyeshuri uri kwifashisha imashini yabugenewe mu kwiga uburyo batunganya imyenda. Ni byiza ko abana bo mu ngeri zose yaba abahungu n'abakobwa bitoza gukora imirimo yose.

Abanyeshuri bari mu misa aho bari gusenga basaba umuremyi kugira ngo ajye abafasha mu buzima bwabo bwi'shuri bwa buri munsi bazarusheho gukomera ndetse no kuba abo bifuza kuba.

Ubusitani buri ku muhanda buteyemo intebe zo kwicaramo aho abagenzi bashobora kwicara bakaruhuka kugira ngo babone gukomeza urugendo rwabo cyangwa abashaka kuganira bakabona aho bicara.

Isomero ahakusanyirijwe ibitabo bigiye bitandukanye bibitsemo ubumenyi yaba ubumenyi mu bya siyanse cyangwa ubumenyi mu by'imibanire n'abandi, ni byiza kwimakaza umuco wo gusoma.

Abanyeshuri bambaye impuzankano y'ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro ya kaki, aho bari guhabwa ibiganiro n'abayobozi bo mu nzego zitandukanye harimo na polisi y'igihugu.

Ikigo cy'ishuri ahatangirwa ubumenyi bufasha abanyeshuri mu kubaka ubushobozi bwabo nko guteza igihugu imbere ndetse n'ahazaza habo imbere bityo ubuzima bwabo ndetse n'ubw'Igihugu bukaba bwiza.

Abanyeshuri bateranyirijwe hamwe kugira ngo baganirizwe ku buryo bwiza bw'imyitwarire, ndetse bibafashe mu myigire yabo, bityo bizavemo abo bifuza kuvamo, kandi bubake u Rwanda twifuza.

Abakinnyi bakina umukino wo guhererekanya umupira uzwi nka Volley ball, aho bahuriye mu irushanwa, ryatewe inkunga n'Ikigo cy'Ubwishingizi, cyahoze kizwi nka Solasi cyahindutse Sanlam.

Ingengabihe ikoreshwa mu bigo by'amashuri kugira ngo abana bamenye uko amasomo agenda asimburana ndetse n'amasaha bagenda bayafatiraho. Ni byiza kugira ingengabihe nk'iyi kuko bituma uburezi bugira ireme.

Umuhanda nyabagendwa uherereye hejuru y'ahariri ikibuga cy'umupira ndetse ukaba ukikijwe n'inzu n'ibigo bitandukanye, ukaba ugendwamo n'ingeri zigiye zitandukanye harimo abanyeshuri bava cyangwa bajya ku ishuri.

Abanyeshuri bari gukora ikizamini gisuzuma ubumenyi bafite ku masomo baba baragiye bahabwa, aho bakora iki kizamini bahagarikiwe n'ubareba kugira ngo bibarinde gukopera bityo umuntu akoreshe ubumenyi yungutse.

Ikigo gitangirwaho uburezi ndetse n'uburere ku banyeshuri batandukanye mu cyiciro cy'amashuri yisumbuye, yaba icyiciro rusange ndetse n'icyiciro gikuru, indangagaciro z'iki kigo harimo kwimakaza umuco ndetse isuku hamwe no gukunda igihugu.

Abanyeshuri bari kwiga aho bari guhabwa ubumenyi mu by'ikoranabuhanga, bakigishwa uburyo bwiza bwo gukoresha za mudasobwa babifashijwemo n'umwarimu wabihuguriwe.

Abana bato bambaye impuzankano y'ishuri, kandi bahetse n'ibikapu, aho bari kuva cyangwa bajya ku ishuri kuvoma ubumenyi, kugira ngo bubake ejo habo hazaza heza.

Ikigo cy'amashuri cyubatswe mu buryo bwiza kandi bugezweho, kuko gitwara umwanya muto, bikaba bigaragara ko gifite isuku bityo abanyeshuri bakaba biga neza batekanye.

Imodoka yifashishwa mu kugeza abana ku ishuri. Ni byiza ko ibigo bifite ubushobozi, bigira imodoka nk'izi kuko zifasha abana kugera ku ishuri badakererewe kandi batanananiriwe mu nzira.

Abanyeshuri bo mu muryango uzwi nk'abasikuti, aho uyu muryango ufite intego yo guharanira gusiga Isi ari nziza kuruta uko wayisanze, abanyeshuri bahuriye hamwe kugira ngo baganire.

Ikigo cy'ishuri gitangirwamo uburezi ku bana b'abanyarwanda, kikaba gifite indangagaciro zirimo kubaha imana, gukunda igihugu, kugira ikinyabupfura, kugira isuku ndetse no kwihesha agaciro.

Ahatangirwa uburezi n'uburere ku bana b'u Rwanda, ikigo cy'amashuri ni byiza kukibungabunga kuko ari ho soko tuvomaho abantu bafite ubumenyi mu gukemura ibibazo duhura nabyo umunsi ku wundi.

Abanyeshuri bari gukora ikizamini gisoza icyiciro rusange cyangwa igisoza amashuri yisumbuye. Ni byiza ko umwana akora ikizamini nk'iki kuko bimufasha kwisuzuma bityo akabasha kuva ku rwego rumwe, akajya ku rundi.

Abanyeshuri bari gushyira mu ngiro ibyo baba barize mu magambo, mu masomo nk'ubutabire cyangwa ubugenge, ni byiza ko ku bigo by'amashuri bigira ayo masomo, bagira icyumba cyabugenewe abanyeshuri bashyirira mu ngiro ibyo baba barize mu magambo.

Abanyeshuri bahurijwe hamwe kugira ngo bahabwe ibiganiro hifashishijwe ibikoresho bigezweho by'indangururamajwi, ni byiza ko abana bacu bahabwa ibiganiro nk'ibi ku bigo bigaho kuko nabyo biri mu byongera uburere.

Abaririmbyi ba korali y'ikigo cy'ishuri runaka aho bari kuririmba indirimbo yabo babifashishijwemo n'umuyobozi ndetse n'umucuranzi kugira ngo bahimbaze imana.

Ikigo cy'amashuri gitangirwamo uburezi bw'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye, ni ikigo giherereye i Huye mu ntara y'Amajyepfo, iki kigo kikaba cyitwa Eyeri.

Ikigo gitangirwamo uburezi ku bana b'abanyarwanda mu ngeri zigiye zitandukanye. Impuzankano y'iki kigo ikaba ari ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro cyangwa ijipo ya kaki.

Abanyeshuri bateranirijwe hamwe, kugira ngo baganirizwe ku buryo bagomba kwitwara mu gihe bari mu ishuri, cyane cyane ko ari n'urubyiruko rushobora kugwa mu bishuko byinshi byatwangiza ahazaza habo.

Abanyeshuri bahurijwe hamwe kugira ngo bafane amakipe yabo ku mukino wa Basket. Umukino ukunzwe n'abatari bake haba muri sosiyete Nyarwanda ndetse no ku isi muri rusange.

Abanyeshuri bari kwiga uburyo bwiza bwo gukoresha za mudasobwa, kugira ngo birusheho kubafasha mu kongerera ubumenyi ku mikoreshereze ya za mudasobwa, kandi binateze imbere ireme ry'uburezi mu gihugu.

Ikigo gitangirwaho uburezi, giherereye mu karere ka Huye i Butare hazwi nko ku Itaba. Ni ikigo cyiza kuko gifasha abana mu kongera ubumenyi kandi kikanatsindisha neza.

Umunyeshuri uri kugaragaza ubumenyi bwe, abugaragariza abandi banyeshuri bigana ku ngingo runaka baba bahawe nk'umukoro kugira ngo bibongerere ubumenyi bwo kuvugira mu ruhame, mu bandi banyeshuri.

Ikigo cy'amashuri ahari kubera imyiyereko itandukanye cyane cyane iyibanda ku muco harimo nk'imbyino gakondo ndetse no kuvuza ingoma ndetse n'uburyo bwo kwizihirwa.

Ikigo cya seminaire giherereye mu karere ka Huye mu ntara y'amajyepfo mu mujyi wa Butare, kikaba ari ikigo kigamo abahungu gusa baba bitegura kuzajya mu maseminari makuru kugira ngo babe abapadiri.

Umuyobozi uri kuvuga imbwirwaruhame mu banyeshuri, aho ari kubagezaho ibiganiro ku ngingo z'ingenzi zigiye zitandukanye, zishobora gufasha abanyeshuri kongera imyitwarire ndetse n'imitsindire yabo.

Umubyeyi uri guhoberana n'umunyeshuri we mu bikorwa byo gusura byabaye ku kigo cy'ishuri, ni byiza ko abana bagiye kwiga mu bigo by'amashuri babamo bagira umwanya wo gusurwa ndetse no kongera kuganirizwa n'ababarera.

Abanyeshuri bari kugaragaza impano zabo mu buryo bw'imbyino gakondo, barimo, bateze amaboko haba abahungu ndetse n'abakobwa, ni byiza gutoza abanyeshuri umuco Nyarwanda, kugira ngo imbyino zacu zitazacika.

Abanyeshuri bicaye hamwe aho bigaragara ko bari kuganirizwa ku ngingo runaka, yabafasha mu kongera ubumenyi ndetse no kwitwara neza mu buzima bwabo bwa buri munsi bityo bakavamo abo bifuza kuba.

Ikigo cy'urwunge rw'amashuri giherereye mu karere ka Nyamagabe, mu ntara y'amajyepfo ahazwi nko ku Kigeme, ahatangirwa uburezi ku mbaga nyinshi y'abana b'abaturarwanda, ni byiza ko dushishikariza abana bose kugana ishuri.

Abana bari gufata ifunguro ku bigo byabo by'amashuri bigaho, iyi ni gahunda ya Leta kugira ngo yongere uburezi mu bana bityo babashe kwiga neza, badahangayikishijwe n'uko batabona amafunguro cyangwa gukora ingendo bagiye gufata amafunguro.

Abanyeshuri bari gukora ikizamini gisuzuma ubumenyi bamaze kugera ku byo baba barigishijwe n'abarimu babo, ni ikizamini kibafasha kwisuzuma kugira ngo barebe aho bafite ikibazo babashe kwisubiraho cyangwa bave mu cyiciro kimwe bajye mu kindi.

Igitabo cyifashishwa mu Rwanda n'ibigo by'amashuri bitandukanye, igitabo kikaba ari icyo mu mwaka wa kabiri, kikaba kigishirizwamo ubumenyi ku butabire.

Abanyeshuri bari muri siporo ngororamubiri, siporo ni nziza mu buzima bwa buri munsi kuko zituma umubiri utembereza amaraso neza ndetse n'ubwonko bukaruhuka uko bukwiye.

Ikibaho cyigishirizwaho amasomo agiye atandukanye kiba mu bigo by'amashuri. Ni byiza kwita ku bibaho nk'ibi ngibi ndetse tunashaka ubushobozi bwo kugura ibigezweho.

Ikigo cyubatse mu buryo bwiza bugezweho, bigaragara ko abahiga biga mu mutekano kandi batuje kuko ikigo gifite isuku ihagije ndetse kikaba kinubatse neza.

Ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu burezi, harimo amakayi, ingwa, amakaramu ndetse n'amarati byifashishwa mu gutanga uburezi bukwiye mu masomo atandukanye atangirwa ku bigo by'amashuri.

Abana ku kigo cy'amashuri bafite ibikoresho byifashishwa mu byidagaduro, cyane cyane mu kogeza umupira bafana bagenzi babo kugira ngo babashe gutsinda bityo bishime.

Abanyeshuri bari guhabwa amahugurwa ku buryo bw'imikoreshereze y'ibinyabutabire ndetse no gushyira mu ngiro ibyo baba bize, kugira ngo birusheho kubongerera ubumenyi bwabo, bityo bagire ubumenyi bwisumbuyeho.

Abanyeshuri bari guhabwa amahugurwa ndetse n'ubumenyi, ku buryo bwiza bw'imikoreshereze ya za mudasobwa. Ni byiza ko iyi gahunda ikwira hose mu Gihugu, kugira ngo abana bagire ubumenyi ku bya murandasi ndetse no gukoresha mudasobwa.

Abanyeshuri bateraniye hamwe kugira ngo baganirizwe n'abayobozi babo haba abi shuri cyangwa abatumirwa bo mu nzego zitandukanye nko muri Police cyangwa n'ahandi, bityo bibafashe kongera ubumenyi.

Abanyeshuri bari kwiga, aho bari gufata inyandiko bazishyira mu makayi yabo kugira ngo zizajye zibafasha gusubiramo ibyo bize mu gihe kizaza. Ni byiza ko umunyeshuri abona ibikoresho nk'ibi bimufasha gufata inyandiko.

Umwarimu uri gufasha abanyeshuri be gusobanukirwa ikorwa ry'umwuka wa kororine, akaba ari isomo ritangwa mu butabire. Ni byiza ko abana bagira ubumenyi bw'uburyo ibintu byifashishwa mu buzima bwa buri munsi bikorwa.

Isomero ry'ibitabo ahavomwa ubumenyi bugiye bitandukanye cyane ko ubumenyi bwinshi buba buhishwe mu bitabo, ni byiza kwimakaza umuco wo gusoma ibitabo kugira ngo twihugure.

Ahatangirwa ubumenyi mu bya siyanse z'ibanze, harimo ubumenyi ku bijyanye n'ibikoresho bya gihanga, imenyamuntu ndetse no kumenya uburyo ibice by'umubiri w'umuntu bikorana.

Abanyeshuri cyangwa abantu bahuriye hamwe, aho bari kuganirizwa n'umunyamahanga ku ngingo zigiye zitandukanye zo guteza imyumvire yabo cyangwa ubushobozi bwabo imbere mu ngingo runaka.

Abanyeshuri bari guhabwa ubumenyi ku bijyanye n'ubutabire aho bari gushyira mu ngiro ibyo babize mu magambo, ni byiza ko abanyeshuri bagira umwanya nk'uyu nguyu kugira ngo barusheho kongererwa ubumenyi.

Ikibuga gikorerwaho siporo ndetse n'imikino igiye itandukanye, cyane cyane umukino w'umupira w'amaguru, ni byiza gukora siporo mu buzima bwacu kuko bituma amaraso atembera neza.

Inyubako yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba ari inyubako igerekeranye, ni byiza kubaka muri buno buryo kuko bituma dukoresha umwanya muto kandi tukubaka ibintu byinshi, bikorerwamo ibikorwa byinshi.

Abanyeshuri bari gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi, cyane cyane mu gusuzuma impagararizi ziba zakuwe mu bantu, kugira ngo barebe indwara cyangwa ibibazo byaba biri mu mubiri.

Inyubako itangirwamo amasomo, iherereye mu karere ka Huye. Ni inyubako ya kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Ikaba yigirwamo n'abanyeshuri biga ibintu bitandukanye mu byiciro bitandukanye.

Inyubako za kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, iherereye mu ntara y'Amajyepfo ahazwi nk'i Butare, inzira nyabagendwa zinyurwamo n'abanyeshuri bagiye aho babarizwa cyangwa aho bafatira amasomo.

Abanyeshuri bari gukoresha igikoresho cya gihanga cyifashishwa mu kureba ibintu bitagaragara n'amaso yacu, harimo nk'udukoko dutera indwara, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Urubyiruko rwahurijwe hamwe kugira ngo ruhabwe ibiganiro ku ngingo zigiye zitandukanye, harimo izijyanye n'imyitwarire kugira ngo rurusheho gukomeza kubaka igihugu neza.

Abahanga mu by'imiti n'inkingo aho bari gutunganya imiti igiye itandukanye bifashishije ibikoresho byabugenewe ndetse n'ibinyabutabire bitandukanye mugukora iyo miti.

Abanyeshuri bateraniye hamwe aho bari guhabwa amasomo ndetse banashyira mu ngiro ibyo bize mu mvugo, bari kwifashisha ibinyabutabire bigiye bitandukanye.

Uburiri butunganyije neza bwo kuryamaho, ni byiza ko tugirira isuku aho tuba cyangwa turara kugira ngo tubashe gusinzira neza bityo ubwonko buruhuke bihagije.

Imodoka ya kaminuza y'u Rwanda, ikaba yifashishwa mu gutwara abanyeshuri mu byerekezo bigiye bitandukanye by'igihugu cyane cyane igihe bari nko mu ngendo shuri.

Inzira nyabagendwa iherereye mu Karere ka Huye i Butare mu gace hitwa i Madina, ni inzu igana ku musigiti w'abayisilamu ndetse no ku maresitora amwe n'amwe agaburira abanyeshuri.

Inyubako zitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye, zikaba zigaragaza umuco w'isuku ndetse n'umutekano no kwita ku bidukikije kuko byose bibungabunzwe mu buryo bukwiye.

Ikigega kibikwamo amazi yo kunywa gikoranye ubuhanga, kuko cyifashishwa ubugenge bw'imirasire itaboneshwa amaso mu kwica udukoko dushobora kuba twaba turi mu mazi, bityo bikarinda indwara abayanywa.

Amacumbi y'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, iherereye i Butare mu ntara y'amajyepfo ahazwi nk'i Ruhande, ni byiza ko abanyeshuri bagira ahantu heza ho kuba kuko bibafasha mu myigire yabo.

Inyubako itangirwamo amasomo mu byiciro bigiye bitandukanye, iyi nyubako ikaba ari iya kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, iherereye mu ntara y'Amajyepfo.

Umunyeshuri wiga mu kigo cy'imyuga ndetse n'ubumenyingiro cya Tumba, akaba ari kwiga uburyo imashini zigiye zitandukanye, zikoreshwa mu iterambere ndetse n'uburezi.

Abanyeshuri biga ibijyanye n'amashyamba, aho bari gusobanurirwa imihurire y'umuntu ndetse n'inyamaswa zitandukanye, ku bijyanye n'amagufwa agize izo nyamaswa ndetse n'umuntu.

Abakozi bari guhabwa amahugurwa ku buryo bwiza bwo gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, byifashishwa mu nganda mu gukora ibikoresho bikenerwa mu buzima bwa buri munsi.

Ibiro bikoreramo umuryango w'abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuzima mu Rwanda, ndetse n'abiga ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe mu Rwanda, ibiro biherereye i Huye muri kaminuza y'u Rwanda.

Abakozi cyangwa abanyeshuri bari guhabwa amasomo ku buryo bwiza bwo kubaka kandi bugezweho, ni byiza ko uburyo buvugururwa bityo imyubakire igatezwa imbere ndetse n'ababikora bakaba bafite ubumenyi.

Kaminuza Gatolika y'u Rwanda iherereye i Butare mu Karere ka Huye mu Ntara y'Amajyepfo, ahatangirwa ubumenyi mu byiciro bigiye bitandukanye harimo iby'uburezi, ubuvuzi ndetse n'ibindi.

Inzu iherereye mu karere ka Huye impande ya radiyo Salus ndetse na Stade Mpuzamahanga ya Huye, ikaba ari inzu itorezwamo ibijyanye n'umuco gakondo nko kubyina, gucuranga ingoma ndetse n'ibindi.

Icyumba gifatirwamo icyayi kikaba gikunze kuba ahantu hahurira abakozi bakora imirimo itandukanye nk'abarimu, abakozi ba Leta, kugira ngo bafate icyayi bityo barusheho kuruhuka neza no gukora akazi neza.

Icyumba cyagenewe gutangirwamo ubumenyi butandukanye ku butabire ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu guha ubumenyi abanyeshuri. Harimo ibinyabutabire bitandukanye ndetse n'uturahure bagenda bakoresha.

Icyumba gitangirwamo amasomo agiye atandukanye ku banyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda, kikaba gifite isuku ihagije, kandi cyubatse mu buryo bwiza bituma uhigira yiga neza, atuje kandi atekanye.

Icyumba cy'inama gitangirwamo ibiganiro bigiye bitandukanye ndetse kikigirwamo n'ibibazo bigiye bitandukanye, icyumba gitunganyije neza kuko gifite isuku ndetse kinubatse mu buryo bwarinda abarimo ntibagire ikibazo.

Ubwogero bwubatse mu buryo bugezweho, bukaba ari ubwogero bwa kijyambere, ubu bwogero bukaba bushyirwa mu nzu ndetse n'ahantu rusange kugira ngo himakazwe umuco w'isuku, bukaba burimo amakaro ndetse n'ibindi byangombwa bikenerwa.

Abafana bahuriye hamwe kugira ngo bogeze umukino uzwi ku izina rya Basket; akaba ari umukino uhuza ndetse ukanakundwa n'ingeri zose z'abawukina ndetse n'abawureba.

Icumbi rya Kaminuza y'u Rwanda iherereye i Butare ahazwi nk'i Ruhande. Ni icumbi ricumbikira abana b'abakobwa gusa bityo bakabasha kwiga batuje kuko baba bafite aho kuba.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga cyifashishwa mu kongera amashusho kugira ngo hatangwe cyangwa higishwe abitabiriye inama, abanyeshuri cyangwa abashaka kugira ibyo bareba.

Icyapa cya kaminuza Gatulika y'u Rwanda iherereye mu Majyepfo mu karere ka Huye i Butare, ahazwi nko ku Itaba, kikaba kigaragaza amasomo atangirwa muri kino kigo.

Icyahoze ari Kaminuz Nkuru y'u Rwanda. Ubu ikaba yarahinduye ishami, iherereye mu Ntara y'Amajyepfo mu Karere ka Huye, akaba ari zimwe mu zifasha kongera uburezi mu Rwanda.

Kaminuza gatolika y'u Rwanda iherereye mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo i Butare ahazwi nko ku Itaba, ahatangirwa uburezi ku Banyarwanda ndetse n'abanyamahanga b'ingeri zitandukanye.

Ubusitani nyaburanga buteyemo ibimera bigiye bitandukanye ndetse n'indabyo, ni byiza kubungabunga ubusitani nk'ubu ngubu kugira ngo tubwongerere ubwiza butyo na bwo burusheho gukesha ahantu twifuza.

Inyubako za kaminuza y'u Rwanda, ziherereye mu karere ka Huye, mu ntara y'amajyepfo, ahazwi nk'i Butare, hakaba hatangirwa uburezi cyane cyane ku bantu biga ibijyanye n'amashyamba.

Isomero aho abanyeshuri bahurira kugira ngo bakore imikoro igiye itandukanye ndetse banabashe gusoma ibitabo bibahereza ubumenyi ku bintu bigiye bitandukanye nk'amateka, imibanire n'abandi, siyanse, ubugenge n'ibindi.

Inyubako za Kaminuza y'u Rwanda, Ishami rya Huye, ahatangirwa amasomo mu byiciro bigiye bitandukanye byigwamo n'abanyeshuri b'ingeri zigiye zitandukanye.

Inzu zo guturwamo ndetse n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buzima bwa buri munsi, harimo nk'injerekani zo kuvoma amazi, isume yo kogana ndetse n'ibindi.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'ibintu bigiye bitandukanye, yaba ibyifashishwa mu ikoranabuhanga, ibyifashishwa mu masomo, gufotora amafoto aciye bugufi, ndetse no gutanga izindi serivisi.

Amacumbi y'abanyeshuri biga muri Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye, iherereye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye ahazwi nk'i Butare Iruhande, ahagaragara ko hananitse imyenda y'abanyeshuri.